Aba ni abantu bicaye mu gihangari bakurikiye cyangwa se bateze amatwi ibyo barimo barabwirwa n'uwabatumiye.

Abantu bicaye ku matabure ariho ibitambaro by'ibara ry'umweru, bakaba bafite amazi bagiye bateretse imbere, bose bakaba bagiye bambaye imyenda itandukanye, ubwoko butandukanye. Mpereye ku bicaye hano hino mbere, yambaye agakanzu karimo amabara y'icyatsi ndetse n'umukara, hanyuma akaba yambaye n'ishapure mu ijosi.

Abantu benshi harimo ibitsina byombi abagabo n'abagore bose bafashe ku cyapa bose ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Abantu benshi bicaye mu ntebe higanjemo ibara ry'umukara, hanyuma hagati hakaba harimo abapolisi bambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda ndetse hakaba hari n'abandi bicaye inyuma mu myenda y'amabara atandukanye. Harimo abajene batatu bambaye ingofero, hanyuma imbere y'abapolisi ku mpande hakaba hari abandi babiri bahicaye.

Abantu b'ibitsina byombi bahagaze bifotoza harimo, umwe w'umumama ndetse munsi hakaba hari abandi bicaye mu nama bateze amatwi bafite amamashini bicaye ku ntebe ziganjemo amabara y'umutuku.

Umugabo uhagaze uri guseka, yambaye agashati k'umweru k'amaboko magufiya, arimo arabwira abandi bicaye bamureba biganjemo igitsina gore, barimo barumva ibyo ababwira bicaye imbere y'amatabure ari mu ibara ry'umweru n'amazi abateretse imbere, hanyuma inyuma y'uwo mugabo uri kubabwira aseka hakaba hari purojegiteri iporojegita mu ibara ry'ubururu, bose bakaba bari mu nzu izengurutswe n'ibikuta bisa umweru.

Abantu batatu bicaye, babiri b'abadamu ndetse n'umwe w'umugabo wambaye ishati ijya gusa na oranje, yambaye amadarubindi, imbere abateretse amazi yo kunywa, basa nkaho bari mu kiganiro, bose banezerewe.

Abantu bicaye b'igitsina gabo harimo babiri bambaye amashati asa ubururu, ndetse hakaba nundi wambaye ishati ijya gusa kaki yerurutse, yambaye ikoti imbere n'ishati y'ubururu, bateretse amazi imbere ndetse na mashini barigukoresha, bateretse ku matabule afite ibara ry'umutuku, hagati ya tabure harimo amavazi arimo indabyo z'icyatsi.

Abantu biganjemo ibitsina byombi. Abagabo n'abagore bose bicaye mu ntebe zisa inyuma hariho igiti, hanyuma bose bakaba bateze amatwi bari kumva bambaye imyambaro igiye itandukanye, bigaragara yuko bateze amatwi ibiganiro bari guhabwa.

Umuntu ufashe ijambo bisa nk'aho arimo araganiriza abandi bicayeye bateze amatwi, hanyuma iruhande rw'ibumoso bwe hakaba hari igikuta gisa ubururu cyanditseho amagambo agiye atandukanye, aho handitse Kigali yacu, Kigali ikeye ndetse n'andi atandukanye, hanyuma bigaragara ko bose bamuteze amatwi.

Abantu bicaye mu cyumba, bakurikiye inama bateze amatwi, ibitsina byombi yaba abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye utuntu mu ijosi dufite ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bigaragara ko bicaye muri salle, bicaye imbere y'ameza ari kandi mu ibara ry'umweru, bose bateze amatwi bafite amazi imbere yabo, bigaragara ko bari gufata ikiganiro cyangwa impanuro bari guhabwa.

Abagabo n'abagore bose bafite impapuro mu ntoki bari kwandika, bisa nk'aho imbere hari umuntu uri kubabwira, hanyuma harimo abambaye ikositimu uhereye hano hino wambaye ikositimu y'umukara amadarubindi ndetse n'ishati y'umweru imbere, bose bigaragara ko bateze amatwi, bari guhabwa ibiganiro.

Abantu batanu, bane b'igitsina gabo ndetse n'umwe w'igitsina gore, uri muri runo ruhande ruhera rw'iburyo, bose hakaba hateretse imbere yabo amazi ndetse na ji, bose bigaragara ko bahuze, bafite ibintu barimo barasoma, imbere ku mpapuro zibateretse imbere.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye amataburiya ahuje ibara ry'umweru, harimo umwe utambaye itaburiya, wambaye umupira w'ibatara ry'umuhondo n'umukara, yambaye ipantaro ijya gusa kake, inkweto z'umukara, bari muri sare bose batuje.

Urubyiruko rwinshi, rwiganjemo igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye bose impozankano y'imipira isa umuhondo, hanyuma inyuma y'abambaye iy'umuhondo, hari abambaye imipira y'ubururu ndetse n'ibara ry'icyatsi, bose imipira wanditseho imbere urugerero, bakaba bateze amatwi, bigaragara ko bari guhabwa impanuro cyangwa se ibiganiro.

Abantu bambaye amakoti, mo imbere harimo amashati y'umweru ndetse abandi bambaye amashati gusa, hagati yabo hari icyerekana amashusho, ikindi ni bose basa nkaho ari abantu barimo barareba imbere yabo.

Umugabo uhagaze wambaye amarinete, yambaye ishati y'ubururu, ipantaro ijya gusa umukara, ahagaze ari kubwira abandi basa nk'aho bamuteze amatwi ari kubabwira ikiganiro, hanyuma inyuma ye hakaba ari ibyapa bibiri birimo ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda. Icyo cyapa kikaba cyiganjemo amabara y'ubururu n'umweru.

amagambo yanditse amabara atandukanye mabara y'umuhondo ay'umweru ndetse n'ay'ubururu hejuru hakaba handitse ijambo ribanza twanditse ngo harabura ibara ry'umuhondo munsi yakwanditse iminsi ibiri hanyumakandi amagambogambo yanditse iba ry'umweru handitse ngo harabura iminsi ibiri kugira ngotatikinrengwawe kumenyekanisha no kwishyura u musoro wipatante wabibiri na makumyabiri nakane ugere

Umunara w'icyuma wiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'ay'umweruz, uzengurukijwe n'ibyuma, hanyuma hino y'aho hari abantu babiri barimo baratambuka: umwe w'umuhungu ndetse n'undi w'umukobwa.

Amagambo menshi yanditse mu ibara ry'ubururu, aho ijambo riri hejuru ryanditse ngo dore uko wamenyekanisha, ukanishyura munsi gato haka ijambo ryanditse mu ibara ry'umuhondo handitse ngo umusoro ku mutungo utimukanwa bibiri na makumyabiri na kane hanyuma hakaba hari andi magambo menshi y'umweru amwe muri yo yanditse ngo jya ku rubuga ndetse n'ayandi agiye atandukanye byose byanditse mu ibara ry'ubururu.

Umunara muremure w'itumanaho wakishijwe ibyuma, munsi gatoya hirya hakaba hari amazu abegereye ndetse umunara ukaba wubakiwe n'ibyuma biwuzengurutse. Hanyuma hejuru y'umunara hino iburyo hakaba hari igiti cy'amashami.

Umugabo cyangwa se umusore uhagaze ufite mashini mu ntoki arimo arakanda, yambaye amadarubindi mu maso, hanyuma iburyo bwe hari amagambo ahanditse, kwigaragaza ku bushake bijyanye....

Inzu ifite ibara ry'umuhondo ikaba ifite igisenge cy'umutuku, inyuma yaho hakaba hari inyubako ndende, hanyuma hino imbere yaho hakaba hari ipoto iriho insinga nyinshi cyane zijyana umuriro mu cyerekezo gitandukanye.

Abamotari benshi bambaye amajire y'umutuku barimo baragenda bajya mu cyerekezo kigana imbere harimo urujya n'uruza rw'abantu bakomeje imbere gatoya harimo abantu bari kwambuka ndetse n'abandi bari kugenda mu rugendo bisanzwe imbere hakaba imodoka nyinshi ndetse n'iminara itwara umuriro w'amashanyarazi hakurya hakaba umusozi uriho ibiti byiganjemo ibara ry'icyatsi ndetse n'amazu menshi.

Uyu ni umunara w'icyuma wifashishwa mu gushyiraho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi, ahantu kure.

Umuntu uri kugenda ateye umugongo arimo arabisikana n'undi nawe mu cyerekezo cy'ibumoso bwe, imbere hari ipoto ryubakishijwe ibyuma bitwara insinga mu byerekezo bitandukanye ujyana umuriro, hanyuma umugabo kaba ari gutambuka hagati y'indabyo ziganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'uyu uri guca ibumoso bwe ari guca hafi y'indabyo ziganjemo ibara ry'umuhondo.

Umunara munini uriho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro ahantu kure, ukaba uri ahantu ku gasozi hirengeye ariho ushinze.

Ipoto ryubakishijwe icyuma, hejuru hariho insinga nyinshi cyane zijya mu byereke zitandukanye zahajyana umuriro, ikirere gisa ubururu, hakurya hari ibicu by'ibara ry'umweru.

Aha haragaragara iminara y'ibyuma ndetse n'iya sima yifashishwa mu gushyirwaho insinga zitwara amashanyarazi ziyajyana hirya no hino ndetse hagaragara n'abantu baca munsi bagenda mu muhanda usanzwe.

Imodoka nini ya Ritco itwara abagenzi yiganje amabara y'icyatsi y'ubururu n'umweru, handitsemo ijambo Ritco, amabara y'icyatsi manini, hanyuma no hino hakaba hari abanyonzi bari mu muhanda wa kaburimbo babiri, bose bari mu kazi ko gutwara abagenzi.

Insinga z'umutuku ebyiri ndetse n'akandi gakoresho kabugenewe mu ku mu kohere mu gufunga cyangwa se mu kurekura umuriro w'amashanyarazi, hanyuma kakaba kariho insinga ziganje mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba hari utuntu dutatu ari two tuzamurwa cyangwa tukamanurwa mu rwego rwo gukupa umuriro cyangwa kuwurekura.

Amapoto manini cyane ariho insinga z'amashanyarazi hanyuma amapoto akaba ashinzwe ahantu hagoswe n'ibiti byiganje mu ibara ry'icyatsi hanyuma hino y'aho ibumoso hakaba hari umuhanda ugizwe n'amabara ari ku ruhande atandukanye umukara ndetse n'umweru.

Ipoto rinini ritwara insinga z'amashanyarazi, munsi yaho gatoya hari igikuta gitambika kigizwe n'inkingi ziganjemo mabara atandukanye y'umukara, hanyuma hasi gatoya hakaba hariho ibyatsi bitambika ndetse imbere yaho gato nanone hakaba hari umugore wambaye ishati k'umweru karimo utubara ndetse n'ijipo y'umutuku.

Icyapa cyiganjemo ibara ry'umutuku n'iry'umweru handitsemo REG munsi gatoya hakaba handitse amagambo y'umukara yanditse ngo Gikondo sabusitisheni, hanyuma icyo cyapa kikaba kiri imbere y'igikuta kirimo ibara rijya gusa nk'ivu, hasi gatoya hari ibyatsi.

Ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi, rikozwe muri sima, hariho insinga zigenda mu byerekezo bitandukanye, hanyuma impande zose z'ipoto hakaba hari ibiti byiganje mu ibara ry'icyatsi.

Taransifo y'umuriro iteretse hagati y'iibyuma bibiri bishinze hanyuma hagati y'uturanstetsi hakabacamo icyuma hagati y'igihoza ibyuma bibiri, ari nacyo taransifo iteretseho hanyuma hejuru hakaba hari insinga zitambitse mu byerekezo bitandukanye, yabituro cyangwa cy'ibumoso hanyuma ukomeje imbere imbere akabarira ibiti ndetse n'amazu.

Muri koridoro y'inzu, hasi hasa umutuku ku mpande y'inzu. iruhande rw'ibumoso hakaba hari ibirahure bibonerana, hanyuma hejuru hakaba hasa umweru, hanyuma ku ruhande rw'iburyo hakaba hari amabara atandukanye umweru ndetse n'ubururu, hari n'intebe zihateretse.

Umugore wambaye itaburiya bigaragara ko ari umuganga afite ibakoresha mu ntoki yambaye itaburiya y'umweru na kabaji mu ijosi, hanyuma hakaba undi mudamu wicaye yambaye ibintu by'ibyuma mu maso bamwambitse akaba yiteye umwenda ugizwe n'ibara ry'umuhondo.

Inzu zisakaje amabati hanyuma zikaba zubatswe n'amatafari ahiye, imbere y'izo nzu hakaba hari indi isakaye, ihagaze ku nkingi z'ibyuma.

Abagabo babiri bahagaze bambaye impuzankano yimyenda y'umukara ndetse n'ibara ry'umweru umwe yambaye marinette atari guseka atuje undi uri hirya ye bafashe bose ku gikoresho cyibajwe mu giti we asa nk'umwenyura bose barikureba muri kamera barimo barafotorwa.

Abantu bicaye bigaragara ko bari mu nama; ni ibitsina byombi yaba abagabo n'abagore; hanyuma imbere yabo hakaba hicaye umugabo wambaye kositimu; imbere harimo ishati y'ubururu ndetse na karuvati y'umukara.

Umumama wambaye amarinete yo mu ibara ry'umukara, afite umusatsi uringaniye, yambaye amaherena, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, umucamanza atari guseka, ubona ko atuje yikarumye.

Abantu bahagaze ku murongo biganjemo igitsina gabo ariko harimo n'abagore, bose bigaragara ko abenshi ari abasirikare, hanyuma hakamo hagati uwambaye umwenda w'umutuku n'ingofero hakaba umucamanza ndetse n'abandi bambaye imyenda ya gisirikare, ndetse n'abandi batatu bambaye ikositimu imbere mo, babiri mo imbere harimo karuvati y'umutuku undi harimo karuvati y'ubururu.

Abantu b'igitsina gabo bicaye bambaye impuzankano iri mu ibara rya move n'abandi batatu bari hino iburyo bahagaze n'abambaye impuzankano, hanyuma inyuma yabo hakaba hari umugabo wambaye agapfukamuwa k'ubururu ndetse n'impumuzankano ya kakeye w'umurinzi, hakaba inyuma y'uwo murinzi hari ipoto iri gucaho urusinga rujyana umuriro mu byerekezo bitandukanye.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye karuvati y'umutuku, ikositimu y'ubururu, yambaye ishati y'umweru. Undi na we yambaye karuvati irimo amabara atandukanye: umweru, n'umutuku, yambaye ishati y'umweru, n'amakositimu y'ubururu, basa nkaho bose bahurije ibiganza ku gitabo gifite ibara ry'umutuku.

Aha haragaragara abantu babiri, umwe asa nk'urikureba undi mu maso ariko uwo arikureba mu maso asa nkaho atishimye cyanga se atanezerewe. Bitewe n'ibyo ashobora kuba ari kumubwira cyanga se yamubwiye.

Abagabo babiri bambaye amakanzu yiganjemo ibara ry'umutuku n'ingofero, hakaba imbere yabo hari undi wambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umukara, iriho akantu k'ubururu hasi, afashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda bisa nkaho arimo ararahira, inyuma ye hicaye abandi bambaye amakanzu y'umukara, harimo utubara tw'umweru n'ingofero z'umukara.

Aha ndabona umugabo uhagaze ufite ibipapuro mu ntoki asa nkuhugura abicaye bamuteze amatwi yari kubabwira.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, harimo akantu kazengurutse k'ibara rya kake, akaba yambaye ikanzu y'ibara ry'umutuku mo imbere harimo umukara ndetse n'umweru, afite indangururamajwi imbere ye.

Umupolisi urimo uratambuka yambaye impuzankano y'umwenda wa gipolisi, hanyuma hino imbere ye hakaba hari ikona rihateretse mu ibara rya oranje, hanyuma iburyo bw'umupolisi uri gutambuka hakaba hari imodoka ya polisi, yiganje mu ibara ry'umukara n'umweru, imbere y'imodoka hakaba hari abantu batatu.

Imodoka yo mu ibara ry'umukara n'umweru yanditseho polisi n'indi iri iruhande rwayo, amabara y'umukara hino hateretse ikona iz'imodoka zika ziri ku mapave, hanyuma imbere y'izo modoka hakaba hari inzu igeretse inshuro irenze imwe.

Abantu bambaye imyenda isa y'impuzankano, umwe muri bo uri hagati inyuma akaba ateruye ifoto iriho ishusho y'umukuru w'igihugu Paul Kagame.

Abantu bicaye harimo bane b'igitsina gore ndetse n'umwe y'igitsina gabo uri iburyo, bakaba bicaye ku meza afite ibara rya kake, bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umukara. Inyuma hakaba hari ibirango by'igihugu ibendera ndetse n'ikirango cy'igihugu.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ahagaze ari kubwira Abanyarwanda ibintu bitandukanye, hanyuma iburyo bwe hari umugore we Jeannette Kagame, hanyuma hino ibumoso bwe hari umucamanza wambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umukara irimo amabara ya kaki.

Umugore wicaye yambaye ishati y'umweru, yambaye inyuma ikote ry'umukara, afite igitabo mu ntoki gifite inyuma h'ubururu, yambaye amarinete azengurukijwe n'ibara ry'umukara, afite imisatsi ifungiye inyuma ndetse imbere hari indangururamajwi, yicaye mu ntebe igizwe n'ibara ry'umweru.

Abantu benshi bambaye imyenda yiganjemo ubururu n'umweru, hanyuma bakaba bafite amadarapo mu ntoki yabo yanditseho FPR mu ibara ry'umutuku, iry'umweru ndetse n'iry'ubururu.

Abana barimo barasuhuza bishimye banezerewe, umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi azengurutswe n'abandi bantu benshi cyane bafite amaterefone barimo barafotora.

Abadamu ndetse n'abagabo bahagaze bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bose barimo bararahira bemera ko inshingano batorewe bagiye kuzazikora neza nkuko bisabwa.

Umugabo wambaye umwitero uri mu ibara rya kake, mo imbere yambaye mo ishati y'umukara, akaba yambaye urunigi mu ijosi ruri mu mabara y'umweru n'ay'umukara, hanyuma akaba ateze amaboko, akaba ari kuvuga kuri mikoro, hanyuma inyuma ye hakaba hicaye umugore n'umugabo, umugore wambaye ikote ry'umutuku ndetse n'umugabo wambaye ishati y'ubururu inyuma kandi bateze amatwi.

Umumama, wambaye ikote ry'ubururu, akambara amarineti, afite imisatsi ibara ry'umukara inyoreje iruhande rw'iburyo, hanyuma iburyo bw' iruhande rw'umumama, hakaba hari umutako wikoreye uri mu ibara ry'umukara.

Abagore bahagaze hagati y'ibirango by'igihugu cy'u Rwanda, hejuru bamanitse ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, hanyuma abagore bakaba babiri bari hagati bambaye ibitenge, uri ku ruhande rw'iburyo akaba yambaye yitandiriye nk'abisilamu, hanyuma uri ibumoso, akaba yambaye ikositimu irimo ibara ry'ubururu.

Umugore ufashe igitabo mu ntoki, yambaye igitenge cy'amabara menshi atandukanye mu ijosi yambaye umukufi, afite imisatsi myinshi y'umukara arimo arareba ku ruhande rwe rw'iburyo, bisa nkaho atishimye. Hanyuma iruhande rwe rw'ibumoso hakaba hari ibiti byiganjemo amabara y'umutuku.

Umugore wambaye ikositimu amabara y'ubururu, yambaye umukufi mu ijosi, yambaye amarinete akaba afite umusatsi mwinshi w'umukara ujya mu cyerekezo cy'iburyo, akaba afatanyije amaboko ye yombi, hanyuma iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari umutako uri mu mabara asa umukara wikoreye igikoresho runaka.

Umuntu wambaye ingofero ya pink arimo aramanuka yambaye ishati ya maboko magufi ya kaki ipantaro y'ubururu inkweto z'umuhondo abisikana n'imodoka ebyiri imwe izamuka yiganje mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'indi iri kumanuka nayo yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara hanyuma ikaba izengurukijwe n'ibyuma by'ibara ry'umutuku.

Imodoka, ifite ikizuru ry'imbere kiri mu ibara ry'umweru, hasi hariho abayikoreye umuzigo munini cyane, utwikirijwe, igitwikirizo cyo mu ibara ry'icyatsi cyijimye, hino hagati hakaba umumotari utwaye umugenzi, hanyuma ibumoso bwiyo modoka hakaba ari inyubako, ndende yanditseho forubeti.

Moto itwaye umugenzi, irimo iragenda mu muhanda, iburyo ka moto hari imodoka zagenewe gutwara cyangwa zagenewe ubwikorezi, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, hanyuma hakurya y'umuhanda hakaba haparitse imodoka n'inzu igereretse inshuro imwe, imbere gato hakaba hari umuntu uri kugenda wambaye ishati y'umweru.

Moto nyinshi ziparitse ziri mu mabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'umukara, inyuma hano hino hakaba hari umugabo uhahagaze wambaye ijiri irimo mabara y'umuhondo n'ubururu ndetse imbere yambaye umupira w'umukara, ipantaro ijya kweruka, hakurya ya moto, hakaba hari umuntu uri gutambuka wambaye ipantaro y'ubururu, umupira urimo amabara y'umukara ndetse n'ay'umuhondo.

Imodoka itwara imizigo, itwawe n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo, imadoka ikaba irimo amabara y'umweru ndetse n'imbere ibara rijya gusa ubururu, iri kumanuka mu muhanda, kaburimbo, hakurya hateye ibiti by'ibara ry'icyatsi, hanyuma no hino hakaba na ho hari rigori, hanyuma hino ya rigori hakaba hari utwatsi turi mu ibara ry'icyatsi.

Imodoka iri mu muhanda, ifite ibara ry'umuhondo imbere aho shoferi ajya ndetse ikaba isa n'iyikoreye matera zipfutswe n'ishitingi, hanyuma hirya y'aho hakaba hari ibiti birebire by'inganzamarumbo, hakaba hari indi modoka bigiye kunyuranaho yo ifite ibara ry'umutuku imbere.

Aha ni mu muhanda aho hagaragara umunyonzi utwa igare ndetse n'imodoka yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Imodoka y'ikamyo irimo irazamuka yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, itwikirijwe na shitingi ijya gusa n'ivu, hakurya y'imodoka hakaba hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi birebire hanyuma hano hino y'umuhanda wa kaburimbo hakaba hari rigori itamijwe ku mpande n'amabuye.

Abamotari, umwe yatwaye umugenzi ari kumanuka, undi ahagaze kuri moto, hanyuma hakurya hari imodoka zagenewe gutwara imizigo, ziganjemo ibara ry'ubururu, hahagaze n'abantu hafi yaho.

Abamotari baparitse bafite moto ziganjemo amabara y'umutuku umukara bakaba bambaye amajiri arimo ibara ry'umuhondo ndetse ni ry'ubururu bambaye amakasike y'umutuku imbere yabo hakaba hari inyubako ndende ifite ibirahuri by'ibara ry'ubururu ndetse hakaba hino yaho hari igishushanyo cy'icupa rya coca cola.

Umugabo wambaye umupira ujya gusa kaki, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, ari kugenda mumuhanda kaburimbo imbere harimo iganjemo amabara y'ubururu bwerurutse hejuru y'imodoka apakiyemobati, harimo umugabo uyafashe kugirango ha atagira ikibazo, inyuma yaho undi umupira ukakiye hari igare ri rimwe rirazamuka.

Imodoka ifite amabara y'umweru n'umukara iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, bigaragara ko ipakiye cyangwa se ihetse. Hanyuma inyuma yayo hari moto ndetse n'indi modoka, iruhande rw'ibumoso bw'iyo modoka hakaba hari ibiti y'icyatsi ndetse no hakurya iburyo hari amazu ahubatse.

Umumotari utwaye moto yiganjemo amabara y'umutuku, umukara, n'umuhondo. Imbere ye hahagaze umugabo wambaye akajiri ko mu mabara ya kake, umupira w'umweru, ipantaro y'ubururu. Imbere ye hari imodoka iri mu mabara y'umweru, ndetse n'ay'umukara, hakurya inyuma y'izo modoka hakaba hari amazu yo mu mabara y'umutuku ndetse n'ibiti by'amabara y'icyatsi.

Imodoka iri mu muhanda itwikirije shitingi iri mu ibara ry'ubururu, imodoka ikaba yiganjemo ibara ry'umweru, hanyuma inyuma nanone hakaba hari indi kamyo irikuzamuka, hanyuma ibumoso hakaba indi modoka iri kumanuka nayo yiganjemo ibara ry'umweru, hanyuma ikaba irikugenda mu muhanda wa kaburimbo, hanyuma mu mpande z'umuhanda hakaba hateye ibiti.

Imodoka yikoreye ibiti, iri kugenda mu muhanda, yiganjemo ibara ry'umweru, imbere ya gatoya, hari umumotari utwaye moto, hanyuma hakurya gatoya, hari umotari waparitse, ndetse n'umuntu wambaye ijiri y'umuhondo usa nkaho acuruza amayinite.

Imodoka iri mu muhanda ifite amapine y'umukara, hanyuma ikagira ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite akuma inyuma kayifasha mu kwirinda mu rwego igihe yaba igonze, hanyuma ikaba hirya yaho gatoya hari igikuta cy'amatafari ndetse hejuru hariho itara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyonzi utwaye mugenzi, hari moto iri imbere ye ndetse hari n'indi iri inyuma ye hanyuma hakurya mu cyerekezo k'ibumoso hakaba hari ibiti byo mu ibara ry'icyatsi.

Imodoka itwara abagenzi yiganjemo amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo harimo abagenzi, bagiye mubi bice bitandukanye.

Abantu 2 baragenda igitsina gabo umwe ahetse igikapu yambara umupira w'umukara ipantaro y'ubururu nayo yambaye ishati irimo amabara y'ubururu n'umukara n'ingofero iriho akantu inyuma yambaye ikabutura y'umukara inkweto za shokora aragenda mumuhanda hanyuma imbere yabo iruhande rw'iburyo hakaba hari inzu yiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru none ikomeje imbere hakaba ibiti by'icyatsi.

Ikamyo ipakiye yiganjemo amabara y'umweru, ikaba itwikirijwe na shitingi yo mu mabara y'ubururu, hanyuma iruhande rw'iburyo rw'iyo kamyo hakaba hari umumotari, wambaye ijiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ay'umuhondo na kaske y'umutuku, imbere ye na none hababa n'abandi bamotari babiri bari kugenda mu cyerekezo kimwe n'icye.

Imodoka iri kumanuka mu muhanda, yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ifite kontineri mu ibara ry'umutuku wijimye, hanyuma hakurya y'imodoka hakaba hari ibiti byo mu ibara ry'icyatsi, hasi hari uruzitiro rusa n'ibara ry'icyatsi.

Imodoka ifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara ariko hakaba higanjemo ibara ry'umweru, imbere yayo gatoya hakaba hari imodoka y'amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku ikaba inyuma hazengurukijwe n'ibyuma bigaragaza ko ari ukurinda ibitwawemo.

Imodoka ebyiri zirimo ziragenda mu muhanda wa kaburimbo, iy'inyuma irimo amabara y'ubururu n'umukara, handitseho na nimero za telefone, hakaba handitseho izina mu nyuguti z'umweru, bashani imbere naho hakaba hari indi modoka yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, inyuma yanditseho dayihatsu.

Icyapa kiriho ibimenyetso bibiri, aho hariho ikimenyetso cyo hejuru kiri mu ibara ry'ubururu hagati harimo tiriyango iri ibara ry'umweru harimo umuntu utambuka, hanyuma munsi gatoya hari akandi kapa k'umutuku, hagati harimo umweru harimo ubumenyetso bibiri, kamwe kajya ruguru, akandi kamanuka hepfo, Bikaba bizengurutswe impande zombi n'ibiti by'ibara ry'icyatsi.

Icyapa cya mpande enye hagati harimo ibimenyetso mu ibara ry'umukara, bishushanyije ikizeru ariko bisongoye ku mutwe hanyuma bikaba icyo cyapa kiri muri mpande enye kiri mu ibara ry'umuhondo hagiye harimo n'umukara uvanzemo, aho umuhondo ku ruhande ariwo ndetse no hagati wiganje hanyuma n'umukara nawo ukaza uri ku ruhande ndetse no hagati.

Icyapa kinini, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati harimo ibara ry'umweru, hanyuma nko hagati hakaba handikishijwemo mirongo itandatu mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu nguni enye, mo imbere harimo icyapa kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo, rizengurukijwe n'akabara k'umukara, bikaba biteretse ku nkoni y'icyuma, itetse ahantu mu byatsi, higanjemo ibara ry'icyatsi, kuruhande iburyo, hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Igare riri mu ibara ry'umukara rizengurukijwe n'icyapa cy'umutuku hagati yacamo akarongo k'umutuku hanyuma hasi hakaba handitse no sayikiringi arowedi mu ibara ry'umutuku amagambo yandikishije umweru hanyuma byose hamwe bikaba biteretse cyangwa bishushanyije ku kapa kapande enye karimo ibara ry'umweru.

Amazu menshi cyane yiganjemo ibiti by'ibara ry'icyatsi, hakurya hari agasozi gatuyeho cyane, hino hari akandi gasozi gatuyeho, ariko ho higanjemo amashyamba menshi cyane. Hanyuma hagacamo n'urutsinga rumanuka, ruva ku ipoto rumanuka mu mazu y'abaturage.

Aka ni agasozi karimo amazu higanjemo ibiti by'amashyamba.

Inyubako ifite igipangu kigizwe n'amatafari ahiye, hejuru hariho amatara hagenda hagati hacamo ibyuma byamabara y'umukara, hejuru hariho utuntu dusongoye mu buryo bw'icumu n'amabara y'umweru, hanyuma inzu ikaba igizwe n'igisenge cy'ibara ry'umweru, ikaba ifite amarangi atandukanye ay'ivu ndetse n'ay'umweru.

Imodoka nyinshi zirimo zigenda mu cyerekezo kizamuka, hagati hagacamo ibiti by'imikindo birebire, hanyuma hano hino hakaba hari akapa kari mu ibara ry'umutuku n'umweru, hakaba handitsemo ijambo Remera rigaragara ko ari i Remera, hanyuma hakurya y'imodoka ziri kuzamuka hakaba hari inzu mu ibara ry'umweru, igeretse inshuro irenze imwe.

Inzu y'igisenge cy'umutuku ikaba igizwe n'amabara y'ivu ndetse n'ay'umweru, hanyuma hino yaho hakaba hari igisambu kirimo ibyatsi by'ibara ry'icyatsi ikaba igizwe n'igipangu ayo mazu y'amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo hanyuma kuruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hakaba hariganjemo amabara y'umukara n'umweru agiye ahinduranya. Hanyuma hakurya y'umuhanda hakabara hari ibiti birebire byo mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, hakurya yawo hari inzu iri kubakwa itararangira ya etaje, hino ibumoso bw'iyo nzu hakaba hari indi yuzuye igeretse inshuro irenze imwe, hanyuma imbere y'izo nzu hakaba imodoka nyinshi zihaparitse, ziganjemo ibara ry'umukara.

Amazu menshi cyane, afite ibisenge byiganjemo ibara ry'umutuku, hanyuma hagati mu mazu hakaba harimo ibiti byiganje mu ibara ry'icyatsi, hanyuma ayo mazu hakaba harimo akiri kubakwa atararangira, ariko hakaba harimo n'ayarangiye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka zitandukanye, imodoka imwe igenda mu cyerekezo cy'iburyo n'izindi ziparitse munsi y'inzu ihari yo mu mabara ya kake n'ibirahure imbere, hino yaho mu cyerekezo cy'iburyo hakaba hari umutaka, amabara y'umuhondo hacururizamo umukozi wa MTN atanga serivisi zitandukanye.

Ifoto iragaragaza icyanya nyaburanga cya Nyandungu, aho abantu babasha kuba bakwinjirira, ndetse hagaragara n'ifoto y'umuntu uhacunga.

Inyubako ndende iriho ibyapa bitandukanye byo kwamamaza, hanyuma munsi yaho hakaba haparitse imodoka ebyiri ziganjemo amabara y'umweru n'umukara, hanyuma hakaba imbere y'izo modoka hari abantu benshi, urujya n'uruza, hanyuma hakaba handitse ijambo Remera, Rutayisire.

Igiti kinini cy'amabara y'icyatsi, ku ruhande hariho akapa kanditseho keke twenti esiti mu ibara ry'umweru. Inyuguti zandikishije umukara, hanyuma ukomeje imbere hakaba hari inzu ifite igisenge cy'umutuku. Ifite amabara y'umweru.

Ibiti byo mu ibara ry'icyatsi, hakaba harimo igikuta cyubakishije amabuye, hanyuma hakaba hari bariyeri itambika amabara y'umutuku ndetse n'ay'umweru, imbere yaho hakaba ari ibigega, hari umusekirite wambaye imyenda y'umukara ndetse n'ijiri y'icyatsi kibisi.

Inyubako nini cyane zigeretse inshuro irenze imwe, zifite umuryango cyangwa se geti yubakishijwe ibyuma birimo amabara y'umukara, ku mpande hakaba hateye indabyo mu mabara y'icyatsi agiye atandukanye, hejuru hakaba haca insinga zijyana amashanyarazi mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Umunyonzi uri gusunika igare, yinjira mu muryango, hasi hapavomwe n'amapave, ku ruhande hariho amabara y'umukara, ndetse n'ay'umweru, hanyuma inyuma y'aho umunyonzi ari kuva, hakaba hari inyubako igeretse, yubakijwe ibirahure, ndetse hejuru hakaba hariho amabara y'umweru n'igisenge cy'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo hagati hakaba harimo akarompuwe kagizwe n'amabara y'umukara n'umweru ku mpande, hanyuma inyuma y'akarompuwe hakaba hari imodoka iri mu mabara y'ubururu n'umukara ndetse n'undi mukara uri inyuma, ku mpande hakaba hariho ibiti byo mu mabara y'icyatsi ndetse n'amasitati menshi yo mu bucuruzi yo kwamamaza.

Ibiti biteye mu muhanda hakuno iburyo bwaho hari akayira nyabagendwa gacamo abantu ndetse ibumoso bwaho harimo inzira nyabagendwa y'imodoka, hanyuma na none hano hino ibumoso hakaba hari igikuta cyubakishejwe amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hariho amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, hakaba hari n'ibiti byo mu mabara y'icyatsi bigiye bitandukanye. Hanyuma inyuma y'ibyo biti hakaba hari amazu ari mu mabara yiganjemo aya kake.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande ugizwe n'amabara y'umweru, harimo imodoka iri gutambukamo iri mu mabara y'umutuku, hanyuma ibumoso bw'iyo modoka hakaba hari umumotari utwaye moto, amabara y'ubururu, umuhondo ndetse na kasike y'umutuku, hanyuma ku mpande z'umuhanda hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti mu mabara y'icyatsi.

Umukobwa cyangwa umugore uri kwambukiranya umuhanda wa kaburimbo, hakurya hari imodoka zirimo zirahaturuka zirimo ziraza mu cyerekezo cy'iburyo bwe hanyuma, hakurya y'umuhanda no hino y'umuhanda hakaba hari ibiti byiza byo mu mabara y'icyatsi.

Umuhanda harimo imodoka iri kugenda ibara ry'umutuku, umukara, hanyuma inyuma gato y'imodoka hakaba hari umumotari utwaye moto hanyuma hakaba harimo akarompuwe hagati gateretsemo icyapa aho imodoka irimo iragenda.

Inyubako nziza cyane ifite ibirahure byiganje mu ibara ry'ubururu, hino yaho gato imbere hakaba hari umuhanda, ku mpande hatamirijweho utuntu turi mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, hakaba hari n'ibiti cyangwa se ibyuma by'amashanyarazi, hagati harimo ibiti byiganje mu mabara y'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara urimo ibimenyetso by'umweru bibiri bizamuka byose mu cyerekezo cy'ibumoso, hanyuma hagati hakaba harimo akabara k'umuhondo k'akarongo, hakurya ha kaba ari umugabo wambaye ipantaro ya kake inkweto z'umukara n'umupira w'umutuku bigaragara ko ashaka kwambuka, inyuma ye hari umuhanda uriho utubara tw'umweru ndetse n'utw'umukara.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ku mpande hakikijwe n'ibiti birebire by'amabara y'icyatsi, no hino naho hari undi muhanda ujya mu kerekezo k'ibumoso, imbere hari ibiti by'amabara y'icyatsi, imbere hino y'uwo mumotari mu muhanda wa kaburimbo hakaba hari izindi moto nazo ziri kujya mu cyerekezo kimwe.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umuntu uri kugenda ku ruhande rw'ibumoso, imbere ye gato hakaba ari icyapa kiri mu mabara atandukanye, kizengurukijwe n'itara ry'umutuku, hagati harimo inyuguti ya P yandikishijwe umukara, hanyuma hakaba hateye ibiti byiza, indabyo ziri mu mabara y'umuhondo ndetse n'imodoka ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.